Mu buzima bwa buri munsi nkuko tubizi ntabwo ubuzima bwakoroha udakoze. Umuntu agomba gukura amaboko mu mufuka akihangira umurimo, akaba yakora nk'iyo botike (iduka), bikamufasha kwakira amafaranga amufasha muzima bwe bwa buri munsi kandi agafasha n'abantu kubashyirira ibisabwa hafi yabo.

Abantu bakora ubukerarugendo ku mahoteli agiye atandukanye, ayo mahoteli agiye afite ibikorwaremezo bigiye bitandukanye birimo nk'amazi yo kongeramo ndetse n'ibindi bikorwa birimo bifasha abantu kwidagadura no kuruhuka.

Buri muntu wese aba afite impano y'akazi ke, aho hari bamwe bagenda bagatwara amamoto mu mihanda bafasha abagenzi kugenda mu nzira zigiye zitandukanye, kuva hirya no hino bakadufasha muri ubwo buryo bunyujijwe mu kugendera urugero nko kuri moto yego.